Abantu benshi cyane bateraniye hamwe mu cyumba cy'inama, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru ndetse imbere yabo hari ameza, imbere ya buri muntu kandi hari mudasobwa, agacupa k'amazi, bigaragare ko bakurikiye imbwirwaruhame irimo gutangwa n'umwe mu bayobozi bateguye iyi nama.

Abayobozi mu nzego zitandukanye za leta, harimo n'abayobozi mu rwego rw'igihugu rwa Polisi, aho bambaye impuzankano iriho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, bicaye hamwe bungurana ibitekerezo ndetse bakurikiye imbwirwaruhame y'umwe mu bayobozi bateraniye muri iyi nama.

Abayobozi mu nzego za leta aho bahuriye mu cyumba cy'inama nyungurana bitekerezo bicaye bazengurutse ameza, imbere yaho hateretse uducupa tw'amazi, umwe muri bo yahagurutse ari gutanga igitekerezo cye cy'uko yumva ibintu byakorwa kugira ngo iterambere ry'umuturage rikomeze gushyirwa ku isonga.

Inama yahurije hamwe abayobozi mu nzego za leta zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye bazengurutse ameza bateretseho mudasobwa ndetse imbere y'abo hateretse n'uducupa tw'amazi, bakurikiye imbwirwaruhame yateguwe n'umwe mu bayobozi babatumije, biga ku ngingo zitandukanye zigamije iterambere ry'igihugu.

Abantu benshi bahuriye mu cyumba cy'inama, aho bicaye bateze amatwi imbwirwaruhame irimo gutangwa n'umugabo wambaye ishati y'umukara, ndetse afite n'indangururamajwi mu ntoki, yewe hari n'undi uhagaze iruhande rwe wambaye ikositime ndetse n'ishati y'umweru. Bigaragara ko aba bakurikiye imbwirwaruhame bateze amatwi bumva neza ibitekerezo ndetse n'ubujyanama by'uyu ubahagaze imbere arimo kubabwira.

Inama yahurije hamwe abayobozi mu nzego za Leta ndetse n'abagenerwabikorwa ari bo baturage kugira ngo baganire icyazamura iterambere ryabo ndetse n'uruhare rwa buri umwe mu kugera ku ntego z'igihe kirambye. Abayobozi bicaye ku ntebe z'imbere zisa n'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi.

Abantu babiri bahagararanye, umugabo ndetse n'umugore, aho umugabo afite indangururamajwi arimo ageza imbwirwaruhame ku bamukurikiye, ndetse bungurana ibitekerezo, bigaragarare ko aba bantu bahujwe no kwiga ku kibazo cyangwa ingingo runaka, buyunguranaho ibitekerezo, ndetse banayisesengurira hamwe.

Abayobozi mu nzego zitandukanye za Leta bahurijwe hamwe mu cyumba cy'inama, bicaye neza imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi ndetse n'ibirahuri, aho bari kumva imbwirwaruhame y'umwe mu bayobozi bateguye iyi inama.

Abayobozi mu nzego za Leta bateraniye mu cyumba cy'inama, baganira ku ngingo zitandukanye, aho umwe muri bo ari gutanga imbwirwaruhame. Bicaye bazengurutse ameza ariho igitambaro gifite ibara ry'ikigina n'umweru, imbere yabo kandi hateretse uducupa tw'amazi.

Umugabo w'imibiri yombi wambaye ingofero y'ubururu ndetse n'ishati y'ubururu, afite indangururamajwi mu ntoki, ndetse bigaragara ko inyuma ye hari abandi bantu benshi bari kumwe na we. Aho bari kugeza imbwirwaruhame ku bakurikiye, aho baje mu bikorwa byo kwamamaza ibicuruzwa byabo.

Abayobozi mu nzego zitandukanye za leta, bahuriye hamwe baganira ku ngingo z'iterambere ry'abaturage. Bicaye bazengurutse ameza, afite ibara ry'ikigina kandi imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi. Aho ufite igitekerezo azamura ukuboko akagitanga ndetse n'ufite inyunganizi bikagenda bityo.

Abayobozi mu nzego zitandukanye za leta bitabiriye inama, bahuriye mu cyumba cy'inama, harimo kandi abamama ndetse n'abapapa, bambaye imyambaro yabugenewe igaragaza ko batumiwe mu nama ndetse bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa n'umwe mu bayobozi be batumije iyi nama.

Abayobozi mu nzego zitandukanye za leta aho bahuriye hamwe mu cyumba cy'inama bungurana ibitekerezo hagamijwe gushyira imbere umuturage ndetse no kuzamura imibereho ye myiza bityo bikazamura iterambere ry'ubukungu bw'igihugu muri rusange.

Abantu benshi b'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore bahurijwe hamwe kugira ngo baganire ndetse banangurana ibitekerezo ku nyungu zitandukanye, bigira hamwe ibyabateza imbere ndetse banakurikiye imbwirwaruhame irimo gutangwa n'umwe mu bahurije hamwe iri koraniro.

Abantu benshi cyane bahagaze batonze imirongo imbere y'inyubako ifite igisenge cy'umweru ndetse n'inzugi zisa amarange y'umweru. Bigaragara ko bavuye mu nama biga ku ngingo zitandukanye zigamije iterambere ndetse bungurana ibitekerezo harebwa icyakorwa, kugira ngo buri wese yisange muri gahunda barimo baganiraho.

Urubyiruko rwahurijwe hamwe mu nyubako nini cyane ya sitade, ifite igisenge gikozwe n'ibyuma by'ibara ry'umweru ndetse mu mpande zaho hakaba hakikije ibindi byuma bikoze iba ry'umweru, aho barimo baganirizwa ndetse banagirwa inama ku myitwarire yabo ndetse n'uruhare rwabo mu iterambere ry'igihugu.

Icyumba cy'inama kinini cyateraniyemo abayobozi mu nzego za leta zitandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara bazengurutse ameza afite ibara ry'umutuku, imbere ya buri wese hari indangururamajwi yifashishwa mu gihe ashaka gutanga inyunganizi cyangwa igitekerezo akigeza ku bakurikiye iyi nama.

Abagabo ndetse n'abagore bahuriye hamwe, kugira ngo bungurane ibitekerezo ku ngingo zitandukanye, aho bicaye bakurikiye imbwirwaruhame y'umwe mu bayobozi bahuriye aha ngaha. Uyu akaba afite indangururamajwi mu ntoki yambaye kandi umupira w'umweru ndetse n'ipantaro by'umukara.

Inzu mberabyombi yateraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye, baganira ndetse banungurana ibitekerezo, aho bamwe muri bo bari imbere batanga imbwirwaruhame ndetse batanga ibitekerezo byabo ku ngingo zateguwe kuganirwaho, bityo bigatanga umwanya ndetse n'uruhare rwa buri wese, atanga ibyifuzo ndetse n'ibitekerezo bye.

Inama yahurije hamwe abayobozi mu nzego zitandukanye za leta, yaba abayobozi bo mu nzego z'ubuyobozi ndetse n'abashinzwe umutekano, bigira hamwe ku bibazo byugarije akagari kabo ndetse banarebera hamwe umusanzu wa buri muturage, mu kugira ngo ibyo bibazo bikemuke ndetse n'imibereho ye ikomeze kumera neza.

Abantu benshi bateraniye hamwe mu nama, bungurana ibitekerezo, aho bose imbere yabo hari ameza ateretseho ibirahuri ndetse n'amacupa y'amazi ndetse n'amadokima atandukanye. Bakurikiye imbwirwaruhame, aho bamwe muri bo barimo kuganira batanga ibitekerezo, barebera hamwe icyakorwa kugira ngo ingingo nyamukuru zabahurije hamwe zigerweho.

Abayobozi batandukanye mu nzego za leta, bateraniye hamwe, aho bicaye bakikije ameza ndetse kuri ayo meza hateretseho mudasobwa, uducupa tw'amazi ndetse n'ibitabo, imbere yabo kandi hari umugabo ndetse n'umugore, bigaragara ko bari gutanga imbwirwaruhame, ikurikiwe n'abahateraniye muri iki cyumba cy'inama.

Abakozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza RGB, aho bari bari mu nama bigira hamwe icyakorwa kugira ngo imitangire ya serivisi yihutishwe kandi inozwe neza. bari mu nama, bicaye bazengurutse ameza, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi ndetse n'impapuro zikubiyemo inyigisho zitandukanye.

Abagabo ndetse n'abagore bahuriye mu cyumba cy'inama, baganira ndetse banungurana ibitekerezo ku ngingo zitandukanye, aho umwe muri bo yambaye ikositimu y'umukara ishatimu y'umweru ndetse na karuvati y'amabara, afashe indangururamajwi arimo gutanga igitekerezo cye mu nama abandi bakurikiye.

Inteko rusange y'abaturage yahuriyemo abaturage b'ingeri zose, yaba urubyiruko ndetse n'abakuze, aho bicaye munsi y'ibiti baganirizwa ku ngingo zimwe na zimwe zigamije iterambere ryabo, ndetse bakurikiye imbwirwaruhame, bari kugezwaho n'umwe mu bayobozi b'Umurenge.

Abantu benshi bahuriye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari ameza y'umukara, hari impapuro, amacupa y'amazi, ibirahuri ndetse na mudasobwa, aho bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa n'umwe mu bayobozi bakurikira ndetse bunungurana ibitekerezo bashakira hamwe icyateza imbere igihugu.

Abagabo ndetse n'abagore bayoboye mu nzego zitandukanye za leta bateraniye hamwe mu cyumba cy'inama, bicaye ku ntebe z'imikara, aho barimo kuganira ku ngingo zitandukanye bumva ibitekerezo bya buri ruhande ndetse banarebera hamwe ibyashyirwa mu ngengo y'imari kugira ngo imibereho myiza n'iterambere ry'abaturage bikomeze kuzamuka.

Abantu bane bateranye baganira mu cyumba cy'inama bicaye ku ntebe gisa z'umweru imbere yabo hateretse ameza afite ibara ry'umweru n'umukara, ndetse buri wese afite agacupa k'amazi barimo kungurana ibitekerezo ku ngingo zitandukanye bareba icyakorwa kugira ngo umuturage akomeze kubaho ku isonga mu byo bakora byose.

Abantu benshi cyane bahagaze hamwe higanjemo abagabo ndetse n'abagore, bakenyeye neza imikenyero, bigaragare ko bavuye mu nama yari yabahurije hamwe bungurana ibitekerezo, hareberwa hamwe icyakorwa kugira ngo iterambere ryabo ryiyongere, buri wese atanga igitekerezo cye ndetse n'inyunganizi.

Abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore bahuriye hamwe mu cyumba cy'inama bicaye ku ntebe z'imikara imbere yabo hari ameza akoze mu mbaho afite ibara ry'ikigina, aho kandi hateretse mudasobwa ndetse, n'uducupa tw'amazi bakurikiye imbwirwaruhame bari guhabwa n'umwe mu bahurije hamwe aba bayobozi.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye, bicaye ku ntebe nziza cyane zikoze mu mbaho ndetse zifite n'imisego ifite ibara ry'umweru. Aho kandi hari umwe muri bo uhagaze inyuma, bigaraga ko barimo gukurikirana imbwirwa ruhame iri gutangwa n'umwe mu bayobozi bahurije hamwe uru rubyiruko.

Abantu benshi bari mu cyumba k'inama cyiza cyane, inyuma yabo hari igikuta gifite ibara ry'umweru ndetse kinamanitseho televiziyo, umwe muri bo akaba arimo gutanga igitekerezo, imbere hari indangururamajwi ndetse ku meza ye hari impapuro, agakapu, icupa ry'amazi ndetse n'icupa ry'umutobe.

Abantu bateraniye hamwe mucyumba cyinama cyiza cyane cyirimo intebe zikozwe mumbaho ndetse zifite imisego ifite ibara ry'umweru, aho bigaragara ko bakurikiye ibwirwaruhame irigutangwa n'umwe mu bayobozi bakuru kugira ngo bungurane ibitekerezo ndetse barebere hamwe umusanzu wabo mukuzamura imibereho myiza y'abaturage

Abayobozi mu nzego za Leta zitandukanye bahuriye mu cyumba cy'inama baganira banungurana ibitekerezo ku ngingo zateguwe. Aho bicaye neza, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi. Kandi buri muntu imbere ye hateretse akapa kagaragaza izina rye ndetse n'ikigo yaje ahagarariye.

Icyumba k'inama cyahurijwemo abantu benshi, yaba bayobozi mu nzego za leta ndetse n'abikorera, aho bahuriye ngo baganire icyazamura ubukungu ndetse n'uruhare rwa buri wese mu gusigasira ndetse no kuzamura ubukungu bw'igihugu, bicaye bakurikiye imbwirwaruhame y'umwe mu bayobozi bagezweho.

Kwegereza serivisi abaturage ni kimwe mu byihutisha ndetse bikanoza ireme ry'imitangire ya serivisi, aha nihamwe muhatangirwa serivisi za banki ya kigali izikigo gitanga serivise z'itumanaho rwanda cya eyateri, ndetse n'izindi zitandukanye aho abakiriya b'ibigo bashobora kubona serivisi ku bagent babyo ba han bidasabye kuba bakora urugendo bajyaho ibigo bikorera nyiri'zina.

Itangazo ryatanzwe n'ikigo cy'Igihugu gishinzwe guteza imbere mu Rwanda REB, cyagaragazaga uko gahunda yo kwiga hifashishijwe amaradiyo mu gihe icyorezo cya koronavirusi cyari kiganje mu Rwanda yari iteye, kuva ku itariki makumyabiri, kugeza ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa kane, mu bihumbi bibiri na makumyabiri.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru ndetse gishushanyijwe na telefoni cyatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro aho cy'ibutsaga abanyamuryango ko igihe ntarengwa cyo kumenyekanisha umusoro ku nyungu cyageze.

Ubukangurambaga bwakozwe n'ikigo gitanga serivisi zo kuri murandasi cy'Irembo, aho bwakanguriraga abaturage bose ko bashobora kwisabira ibyangombwa bitandukanye, bidasabye ko bajya aho ibigo runaka bikorera, ahubwo byose bakabikora bifashishije telefone zabo mu gusaba ibyo byangombwa badakoze urugendo.

Urubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubucukuzi ndetse n'umutungo kamere mu Rwanda. Ahatangirwa serivise zimwe na zimwe z'iki kigo, bidasabye ko umuntu ajya gushaka serivise aho iki kigo gikorera, ahubwo akabikora yifashishije mudasobwa cyangwa terefone ngendanwa.

Urubuga rwo kuri murandasi rw'ikigo cy'igihugu gitsura amajyambere RDB aho rwashyiriyeho abasaba serivisi muri iki kigo mu rwego rwo kuborohereza aho bitakiri ngombwa ko bajya ikigo gikorera ahubwo bifashisha telefoni zabo na mudasobwa mu gusaba ndetse no guhabwa zimwe na zimwe muri serivisi zitangwa muri iki kigo.

Icyapa cyatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amashyamba Rwanda Foresite Otoriti aho cyagaragazaga ingingo ndetse n'imirongo ngenderwaho y'iki kigo kandi ibi bikagira uruhare mu kuyobora abaturage ndetse no kumenya akamaro k'iki kigo muri rusange.

Umunara muremure ugizwe n'ibyuma bifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru. Aho wifashishwa n'ibigo bitanga serivise z'itumanaho mu Rwanda mu kunoza serivise biha abagana ibi bigo ndetse bikoroshya n'ubuhahirane ndetse n'itumanaho imbere mu gihugu.

Gutanga serivisi hifashishijwe ikoranabuhanga ni kimwe mu bisubizo byo kwihutisha imitangire ya serivisi ndetse no kuyobora, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro cyamenyeshaga abaturarwanda bose ko cyabazaniye apulikasiyo yitwa mayi rra, aho bayikoresha basaba zimwe na zimwe muri serivisi zitangwa n'iki kigo bidasabye kuba bakora urugendo ahubwo bakabikora bari aho bari bifashishije mudasobwa ndetse na telefoni zabo.

Urujya n'uruza rw'abantu barimo kugenda rwagati mu Mujyi wa Kigali, ahahariwe kugendwamo n'amaguru hazwi nka Kafuri Zone, aho nta kinyabiziga kiba cyemerewe kugendamo uretse gusa amagare ndetse n'abanyamaguru; ibi bigafasha mu kugabanya ibyuka bihumanya ikirere ndetse bikanorohereza abatembera umujyi kuwunyuramo bisanzuye.

Icyapa cyakozwe n'Ikigo k'Igihugu gishinzwe Imisoro n'Amahoro, aho cyamenyeshaga abasora bose basora mu byiciro, ko itariki ntarengwa yo gutanga umusoro w'igihembwe cya gatatu ari mirongo itatu z'ukwa Cyenda.

Abantu b'ingeri zitandukanye bahuriye hamwe mu cyumba, aho buri wese afite mudasobwa y'umukara imuteretse imbere ndetse anambaye ekuteri ndetse iriho n'indangururamajwi, bigaragare ko bari mu kazi gatandukanye, aho barimo gutanga serivisi ku bakiriya b'iki kigo.

Urubuga rwo kuri murandasi, rwashyizweho n'ikigo gishinzwe guteza imbere ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi mu Rwanda Nayebu, aho umuntu ukeneye serivisi ajya ku rubuga, akazisaba ndetse akanazihabwa bidasabye ko akora urugendo ajya aho iki kigo gikorera, ahubwo byose akabikora yifashishije mudasobwa cyangwa telefone ye ngendanwa.

Abana babiri bambaye impuzankano y'ishuri bicaye imbere y'ameza afite ibara ry'ikigina ndetse bafite mudasobwa imbere yabo ifite ibara ry'icyatsi n'umweru. Iyi ni imwe muri gahunda zashyizweho na Leta aho ikoranabuhanga ryageze no ku bakiri bato cyane cyane abiga mu mashuri abanza n'ayisumbuye nka kimwe mu byihutisha iterambere ry'igihugu.

Umusore wirabura wambaye ingofero y'umukara n'ishati y'umweru, afite mu kiganza cye telefone ahagaze imbere y'iduka ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga rifite ibirango bya kompanyi ya Tekino, ahacururizwa ibikoresho by'ikoranabuhanga yiganjemo amatelefoni, ama ekuteri, amamashini, amaradiyo, n'ibindi.

Itangazo ryatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere imiyoborere myiza mu rwanda rgb, aho ryagaragazaga ibigomba kuranga imiryango itegamiye kuri leta ikorera mu rwanda ndetse n'uruhare rwayo mu kuzamura imitangire myiza ya serivisi ndetse no kwimakaza imiyoborere myiza.

Icyapa kinini gifite ibara ry'umweru cyanditseho amagambo mo ibara ry'ubururu, cyakozwe na minisiteri y'igihugu ifite abakozi ba leta n'umurimo mu nshingano, aho yamenyeshaga abaturarwanda ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu, ari umunsi mpuzamahanga wahariwe umurimo.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo atandukanye, cyakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, aho cyamenyeshaga abasore bose ko itariki ntarengwa yo kumenyekanisha umusoro ku bushake, ari makumyabiri n'eshatu z'ukwa cumi, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Umunara munini cyane witaruye abaturage ukoreshejwe ibyuma ushyigikiwe kandi n'uruzitiro rw'ibyuma ndetse iruhande rwaho hubatse akazu gafite ibara ry'umweru. Iyi ikaba yifashishwa n'ibigo bitanga serivisi z'itumanaho mu kunoza serivisi baha abakiriya babo hifashishwa iyi minara iri hirya no hino mu gihugu.

Icyumba k'ikoranabuhanga cyateraniyemo abayobozi mu nzego, zitandukanye aho harimo ameza akozwe mu biti, buri meza ikaba iteretseho mudasobwa ifite ibara ry'umukara, aho kandi umukozi wabugenewe aba arimo kwerekera abakoresha izi mudasobwa, uburyo bazikoresha ndetse n'iby'ibanze bakeneye kugira ngo, babashe kuzikoresha neza nta nkomyi.

Urubuga rwo kuri murandasi rwashyizweho na minisiteri ishinzwe abakozi ba leta n'umurimo mifotara, aho umuturarwanda ajya agahanga konti yifashi ibisabwa hanyuma akaba yashobora gusaba serivisi zimwe na zimwe zitangwa n'iyi minisiteri, harimo nko gusaba akazi bidasabye kajyana impapuro cyangwa ajya kugasaba aho ikigo gikorera ahubwo akanyura kuri uru rubuga asaba akazi akazamenyeshwa n'amatariki y'ibizamini.

Isomero ririmo ibitabo bitandukanye ndetse n'abantu bagera kuri batanu bakora muri iri somero aho bamwe muri bo barimo gukoresha mudasobwa z'umukara ziteretse ku meza akozwe mu mbaho ndetse n'undi umwe muri bo arimo gushaka ibitabo abikura mu tubati twabugenewe.

Urubuga rwo kuri murandasi rwashyizweho n'Ikigo gishinzwe Imisoro n'Amahoro mu Rwanda, Rwanda Revenue Authority, ahatangirwa zimwe na zimwe muri serivisi z'iki kigo bidasabye ko umukiriya ajya aho ikigo gikorera, ahubwo akaba yazisaba yifashishije mudasobwa cyangwa telefoni ngendanwa.

Urubuga rwo kuri murandasi rw'irembo ahatangirwa serivisi zimwe na zimwe zo mu nzego za leta, bidasabye ko umuturage akora urugendo ajya gushaka izo serivisi, ahubwo akabikora yifashishije mudasobwa cyangwa telefoni asaba ibyemezo cyangwa se ibyangombwa akeneye ndetse akanabihabwa adakoze urugendo.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu cyatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro rwanda reveni otoriti, aho cyibutsaga abasora bose ko basigaje iminsi itatu yo kumenyekanisha umusoro ku nyungu aho byagombaga kurangira ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi n'biri ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Ahatangirwa serivisi z'ibigo by'imari bitandukanye nka KCB bank, Bank of Kigali, MTN mobile money, Airtel money ndetse n'izindi, aho abakiriya babona serivisi zitangwa n'ibi bigo bidasabye ko bakora urugendo bajya aho bikorera, ahubwo bakazihabwa n'umu agent ukorera muri iyi nyubako.

Inyubako iriho ibyapa bitandukanye bigaragaza serivisi zitangirwa muri iyi nyubako, harimo nka serivisi z'ikigo cy'imari cya Ekwiti, serivisi z'ikigo cy'itumanaho cya MTN, serivisi zo kuvunjisha amafaranga ndetse n'izindi zitandukanye.

Urubuga rwo kuri murandasi rw'ikigo cy'igihugu gitsura amajyambere RDB, rwashyiriyeho abasaba serivisi muri iki kigo kugira ngo boroherezwe kuzibona badakoze urugendo bajya aho ikigo gikorera, ahubwo bakoresha mudasobwa ndetse na telefone zabo ngendanwa, mu gusaba ndetse no guhabwa zimwe na zimwe muri serivisi muri iki kigo.

Icyapa cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB. Iki kigo gifite amashuri mu nshingano ndetse no kuzamura ireme ry'uburezi n'imyigishirize mu mashuri atandukanye, gitanga amahugurwa ndetse n'ibindi bijyana na yo kugira ngo bizamure ireme ry'uburezi mu gihugu.

Inyubako nziza cyane ifite amagorofa menshi, afite ibirahure bifite irangi ry'ubururu ndetse ikaba inasize amarange y'umweru, hasi hayo hakaba hari ubusitani bwiza cyane bukomeza kurimbisha iyi nyubako, ikaba iherereye kandi mu Mujyi wa Kigali ahazwi nka kafuri zone, aho abagenzi bemererwa kugenda gusa n'amaguru nta binyabiziga bindi byinjiramo.

Ahatangirwa serivisi z'ibigo bitandukanye ndetse n'urubuga rwa leta rugitangirwaho ibyemezo bitandukanye rw'irembo, aho kandi inyubako yubakishije amakaro meza cyane, ikaba ari impande y'umuhanda wa kaburimbo, ku buryo byorohera abaza gusaba serivisi kuhagera bitabagoye.

Umunara muremure cyane, ugizwe n'ibyuma bisize amabara y'umutuku ndetse n'umweru, aho wifashishwa n'ibigo bitanga serivise zitumanaho mu Rwanda, mu kunoza serivise bitanga, binyuze kuri iyi minara, iri hirya no hino mu gihugu.

Urubuga rwo kuri murandasi rwashyizweho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, Rwanda reveni otoriti, aho iki kigo gitangira serivise zimwe na zimwe hifashishije ikoranabuhanga, bidasabye ko ukeneye izi serivise aza ago ikigo gikorera, ahubwo byose akabikora yifashishije telefone ngendanwa cyangwa mudasobwa ye.

Itangazo ryatanzwe na minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo, rimenyesha abakozi bose uko amasaha y'akazi mashya azaba ateye, uhereye ku itariki ya mbere Mutarama, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu.

Urubuga rwo kuri murandasi rwashyizweho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere imiyoborere mu Rwanda RGB, aho umuturage ajya agasaba zimwe na zimwe muri serivisi zitangwa n'iki kigo adakoze urugendo, ahubwo byose akabikora yifashishije mudasobwa cyangwa terefone ye ngendanwa.

Umunara munini cyane ukikijwe n'uruzitiro rw'ibyuma, uyu munara kandi uka wubatswe n'ibyuma bifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, aho wifashishwa n'amasosiyete atanga serivise z'itumanaho mu kunoza serivise ziha abakiriya bazo. Ibi bikazamura imitangire myiza ya serivise ndetse n'imibereho myiza y'abaturage b'Igihugu.

Amapoto yifashishwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu n'amashanyarazi, REG, aho anyuzwaho insinga z'imiyoboro minini ndetse n'iz'imiyoboro mito igeza umuriro mu baturage hirya no hino mu gihugu, bityo bikazamura imibereho yabo ndetse n'iterambere ryabo muri rusange.

Ipoto y'amashanyarazi yifashishwa mu gukwirakwiza umuriro hirya no hino mu bice by'igihugu, aho hanyuzwa insinga z'umuriro w'amashanyarazi, uva ku rugomero ukagenda ukwirakwizwa hirya no hino mu baturage, ibi bikazamura imibereho myiza yabo ndetse n'iterambere ryabo muri rusange.

Amapiloni yifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, nka kimwe mu by'ibanze nkenerwa mu buzima bwa buri munsi. Aya akaba yifashishwa mu gukwirakwiza umuriro amashanyarazi mu ntera ndende, hanyuzwaho insinga ziva ku rugomero zigeze umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye by'igihugu.

Kimwe mu byapa byo ku mihanda bigaragara hirya no hino mu mujyi wa Kigali, aho biyobora abayobozi b'inyabiziga ndetse n'abagenda n'abaguru, kibamenyesha aderesi z'aho ibigo bitandukanye bikorera, cyangwa umuntu runaka atuye ,hagendewe kuri nimero y'umuhanda.

Ipoto rifasheho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi nyinshi cyane, aho zigeza umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye by'igihugu, ibi bikazamura imibereho myiza y'abaturage ndetse n'iterambere ryabo muri rusange bagerwaho n'ibikorwa remezo.

Amapoto yifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ni kimwe mu bikoresho bikoreshwa n'ikigo cy'Igihugu gishinzwe gukwirakwiza ingufu n'amashanyarazi REG, aho bigeze umuriro mu bice bitandukanye by'Igihugu biwukuye ku rugomero runaka. Ibi bigafasha abaturage mu bice bitandukanye kwiteza imbere, ndetse no kuzamura imibereho myiza yabo.

Amapironi manini, yifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, hirya no hino mu gihugu, aho anyuzwa n'insinga zitwara umuriro ziturutse ku rugomero zikawugeza mu bice bitandukanye by'igihugu, bikazamura imibereho myiza y'abatuye igihugu ndetse n'iterambere ryawo muri rusange.

Umuhanda munini wa kaburimbo ukikijwe n'ubusitani bwiza cyane ndetse n'amapoto ariho amatara amurikira umuhanda mu gihe cya nijoro, ibi bikoroshya serivisi z'ingendo ndetse n'ubwikorezi mu masaha yose yewe no mu gihe cya nijoro, iruhande rwaho kandi hari umwanya wateganyijwemo guparika ibinyabiziga.

Amapoto yo ku muhanda ni kimwe mu bikorwa remezo by'ingenzi cyane byifashishwa mu koroshya ingendo mu gihe cya nijoro, aho amatara amukira imihanda bityo abayobozi b'ibinyabiziga bakabasha kugenda mu muhanda, biziguye ndetse hirindwa n'impanuka za hato na hato.

Ibyuma byabugenewe byifashishwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu n'amashanyarazi, aho bigabanya cyangwa bikongera umuriro w'amashanyarazi, bitewe n'ingano y'ukenewe mu gace runaka, biba biri hirya no hino mu gihugu, aho umuriro w'amashanyarazi ugera ndetse ibi bikanoza imitangire myiza ya serivise y'iki kigo.

Ahantu hashashe amabuye ndetse hari n'ibyuma byabugenewe bitunganya umuriro w'amashanyarazi nyuma y'uko ukuwe mu rugomero. Uyu muriro, wa ukoherezwa mu bice bitandukanye by'igihugu kugira ngo wifashishwe n'abatuye muri byo bice, hifashijwe amapoto ndetse n'amapiloni bitwara insinga zitwarawemo umuriro w'amashanyarazi,

lpironi nini cyane ifasheho insinga nyinshi z'amashanyarazi zitandukanye, yifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi agezwa mu bice bitandukanye by'igihugu, nka kimwe mu bizamura iterambere mu buryo bwihuse ndetse n'imibereho myiza y'abatuye igihugu.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo ugabanyijemo ibisate bibiri, ufite umurongo w'umweru ku ruhande ndetse n'undi muhondo mo hagati ugabanyamo umuhanda mo kabiri. Iruhande rwawo haparitse ibinyabiziga bibiri ku ruhande, umuhanda ndetse ukikijwe n'amapoto ariho amatara acanira umuhanda mu gihe cya nijoro, ibi bikongera ingendo ndetse mu mutekano usesuye mu gihe cya nijoro.

Umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza ingufu n'amashanyarazi REG, aho yambaye impuzankano yabugenewe, imuranga mu gihe ari mu kazi, harimo ingofero y'ubwirinzi, agapfukamunwa ndetse n'agakoti gafite ibara ry'icyatsi kanditseho ibirango by'iki kigo, aho arimo gukora inzu z'abaturage akemura ibibazo byahavutse.

Amapoto atwara insinga z'umuriro w'amashanyarazi, ni kimwe mu bikoresho byifashishwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza ingufu z'amashanyarazi REG, aho iki kigo kigeze umuriro w'amashanyarazi ku baturage batuye my bice bitandukanye by'igihugu, kiwukuruye ku miyoboro migari, ibi bigafasha abaturage mu iterambere ryabo ndetse no kuzamura imibereho myiza yabo ya buri munsi.

Iminara ibiri ifite ibara ry'umweru n'umukara itangwa n'ikigo gitanga serivisi z'ikoranabuhanga cya Kanari purisi, aho umuturage yishyura ifatabuguzi muri iki kigo hanyuma akajya abasha gukoresha ikoranabuhanga ry'iki kigo harimo nka interneti itangwa nabo ndetse na abonoma yo kureba televiziyo n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye.

Ipironi rinini cyane rikozwe mu cyuma rikaba rifasheho insinga nyinshi zitwara umuriro w'amashanyarazi, aya mapironi yifashishwa mu kugeza umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye hirya no hino by'igihugu, cyane cyane mu by'imisozi miremire aho batwara umuriro w'amashanyarazi ba kawugeza muri ibyo bice bityo abahatuye bakagerwaho n'ibikorwa by'iterambere, ndetse na serivisi zitangwa n'ikigo cy'ingufu n'amashanyarazi.

Ipironi nini cyane ikozwe mu byuma, yifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino mu gihugu, hanyuzwaho insinga zitwaye umuriro w'amashanyarazi ziwuvana ku miyoboro migari ziwugeza hirya no hino mu baturage, bikazamura ndetse bikabafasha no kwiteza imbere, bakora ibikorwa bimwe na bimwe bikenera umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo, ukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye mu ngendo za buri munsi, uyu muhanda ukikijwe n'ubusitani bwiza cyane ndetse n'akayira k'abanyamaguru mu mpande, uyu muhanda kandi uriho amatara amurikira mu gihe cya nijoro ndetse n'ibiti byinshi bikikije umuhanda, byongera ubwiza bw'umujyi.

Inyubako nini cyane ifite utuyira twagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru, dukikijwe n'ibyuma ndetse tunasakariwe, bityo abagendamo ku buryo bashobora kutanyagirwa n'imvura cyangwa ngo bicwe n'izuba, mu gihe bagenda mu bice bitandukanye by'inyubako bajya gushaka serivisi zitandukanye.

Abantu benshi abagore ndetse n'abagabo bicaye ku ntebe zagenewe gutegereza igihe abantu baka serivisi, hari n'abandi kandi bahagaze ku idirishya aho bahabwa serivisi bigaragara ko barimo kwakirwa ndetse batanga n'icyizere ko na bagenzi babo basigaye baribuze kugerwaho kandi ku murongo nta kimenyane.

Inyubako nziza cyane, ifite inkuta zise irange ry'umuhondo ndetse na parafo y'umweru, hari kandi udutebe twagenewe kwicarwaho n'abashaka serivise, ku muyobozi ukorera muri iyi nyubako, aha kandi hari ibimenyetso bitandukanye biranga cyangwa biyobora, abaza gusaba serivise muri iyi nyubako.

Abaturage baje gusaba serivisi mu nzego z'ubuyobozi, bicaye batonze umurongo bakurikije uko baje, bari gufashwa umwe kuri umwe, ibi byimakaza imitangire ya serivisi nta vangura kandi buri muturage akabona serivisi mu gihe gikwiye.

Inyubako ndende cyane itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abaturage babona serivisi z'ibanze ku buvuzi, imbere y'inyubako kandi hari ubusitani bwiza cyane burimo na pasparume, ibi bikagaragaza ubwiza bw'inyubako ndetse bigatuma n'isuku no gusa neza by'inyubako byiyongera.

Inyubako yo kwa muganga ahatangirwa serivisi zo kwishyura, imbere yaho hari udutebe twagenewe kwicarwaho n'abakiriya mu gihe bategereje guhabwa serivisi, hanyuma bakakirwa umwe kuri umwe bagendeye ku wahageze mbere. Ibi bikihutisha imitangire ya serivisi ndetse n'ireme ryayo muri rusange.

Inyubako nyinshi cyane zifite igisenge cy'umutuku ndetse isize amarangi y'umuhondo, imbere yayo hari icyapa kigaragaza ko ari ku bitaro bya sehashibe hatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, harimo ndetse n'ubwisumbuye mu kubagwa n'ibindi.

Ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, aho abaturage bicaye bategereje guhabwa serivisi ndetse bigaragara ko bamwe bahagurutse bari imbere, aho bafashirizwa kugira ngo bahabwe serivisi. Inyubako ikaba ifite igisenge cy'ubururu ndetse yubakishije n'amatafari ahiye.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu ifite amagorofa atatu y'igisenge cy'umukara ndetse isize n'amarangi y'umweru n'umukara, iyi nzu ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali aho ikodeshwa ibihumbi magana inani na mirongo itanu gusa ukwezi ku cyumba.

Inyubako ndende itagirwarwamo serivisi z'ubuvuzi. Imbere y'inyubako kandi hari ubusitani bwiza cyane butewemo ibiti birebire bizwi nk'imikindo ndetse imbere yabyo hari amapoto afasheho amatara amurika mu gihe cya nijoro. Ibi bigatuma serivisi zikomeza gutangwa muri iki kigo no mu gihe cya nijoro nta nkomyi.

Inyubako nini cyane, itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abaje gushaka serivisi, bafite intebe bagenewe kwicaramo mu gihe bategereje, bigaragare ko kandi hari bamwe bari bahabwa serivisi, bityo n'abicaye bafite icyizere ko bari bugerweho kandi bagahabwa serivisi nziza.

Inyubako nziza ifite amarangi y'umweru ndetse n'amakaro, hahagazemo umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'itaburiya y'umweru, akaba ahagaze imbere y'imashini bigaragara ko ategereje ibisubizo kuri komande yatanze muri iyi mashini, ndetse hari n'izindi mashini nyinshi cyane zitandukanye zitariho ikintu na kimwe kiri gukorerwaho; bigaragara ko zifashishwa mu gutanga serivisi zitandukanye.

Inyubako nini cyane ifite ibyiciro bigiye bitandukanye ndetse harimo n'utuyira twagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru ndetse n'abafite ubumuga baza gusaba serivise zigiye zitandukanye, aho kandi inzira zagiye zigabanyijwemo n'ibyuma bisize ibara ry'umuhondo, hakaba kandi n'udutebe twateganyijwe kwicaramo abaje gushaka serivise.

Imodoka y'imbangukiragutabara yifashishwa mu gutanga serivise z'ubuvuzi zihuse, haba mu gihe habaye impanuka runaka cyangwa se umurwayi yimurwa avanwa ku bitaro bimwe ajyanwa ku bindi kugira ngo ahabwe serivise zisumbuye kuzo yari arimo abona byifashishwa kandi no mu gihe umurwayi akeneye serivise zihutirwa.

Inyubako nziza cyane zifite igisenge cy'umutuku ndetse ikaba ifite n'ubusitani bwiza cyane buteyemo ibiti ndetse n'indabo bigira neza ndetse bikagaragaza neza, iyi nzu ikaba ihereye mu mujyi wa kigali ndetse ikaba ikorerwamo n'inzego za leta.

Inyubako nziza cyane isize amarangi y'umweru ndetse amagorofa ikikijwe n'ubusitani ndetse n'imihanda myiza ya kijyambere igezweho aho byorohereza abakorera muri iyi nyubako, kugeramo kandi bakabona umwuka mwiza bahumeka bitabagoye yewe nta mwanya ugenewe guparikwamo ibinyabiziga aho bakoresha ibinyabiziga babiparika neza bifite umutekano.

Icyapa kiriho ifoto y'umugabo ndetse n'amagambo yanditseho, kimenyesha ko uwitwa Fulgence KAYISHEMA, yafunzwe ku itariki makumyabiri n'enye z'ukwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu.

Umugabo wirabura, wambaye umwenda w'abacamanza, ufite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, akaba yambariyemo kandi ishati y'umweru na karuvati y'umukara, bigaragara ko ari umwe mu bakozi bo mu nzego z'ubucamanza.

Icyapa kirangisha kiriho amafoto y'abagabo batatu banyujijemo utumenyetso tw'udukubo mu ibara ry'umutuku kigaragaza ko abo bagabo bashakishwa kuko ibyaha bakoze mu Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana acyenda mirongo icyenda na kane, abo akaba ari felicien kabuga ndetse na Augustin Bizimana.

Abantu babiri bahagararanye, bose bambaye udupfukamunwa ndetse imbere yabo hari indangururamajwi, bahagaze kandi imbere y'ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'agacupa k'amazi.

Icyapa kinini cyane kimanitse ku marembo yinjira mu igororero rya Musanze, ahatangirwa serivisi z'ubugorozi ndetse abakoze ibyaha bitandukanye bajyanwa bakigishwa ndetse bakanahugurwa, nyuma basoza igihano bakatiwe bakagaruka muri sosiyete gutanga umusanzu wabo mu kubaka igihugu.

Abagabo batatu bicaye hamwe bungurana ibitekerezo babiri muri bo bambaye imyambaro yo mu nzego z'ubucamanza igizwe n'ikanzu y'umukara ifiteho ibara ry'umweru ndetse n'undi wa gatatu wambaye amarinete ndetse n'umwambaro wagenewe abakekwaho cyangwa bajijijwe ibyaha bitandukanye aho bari mu rukiko baburana ku ifunga n'ifungurwa ry'uyu mugabo.

Umugabo wambaye amarinete ndetse n'umwenda w'abacamanza, ugizwe n'ibara ry'umutuku ndetse mo imbere akaba yambariyemo ishati ifite ibara ry'umweru yambaye n'isaha y'umukara ku kaboko.

Umumama wirabura wambaye amadarubindi, wambaye kandi umwenda w'abacamanza ugizwe n'ikanzu y'ibara ry'umutuku iriho akantu k'umweru. Bigaragare ko ari mu nshingano kandi arigukurikiza amategeko agenga umwuga bakora.

Abacamanza babiri, bambaye imyenda yabugenewe, igizwe n'ikanzu y'umukara cyane ndetse ifiteho n'ibara ry'umweru ndetse bari kumwe n'abagore babiri, bigaragara ko ari abakekwaho ibyaha, mu mpuzankano yagenewe imfungwa, imbere yabo hateretse mudasobwa ku meza ndetse n'agacupa k'amazi n'amadosiye atandukanye.

Abantu batanu bari mu nzu, harimo abagore babiri bambaye imyenda y'ubushinjacyaha, igizwe n'ikanzu ifite ibara ry'umukara ndetse iriho n'ibara ry'umweru, harimo kandi abagabo babiri bambaye imyenda y'imfungwa, bigaragare ko bari gushinjwa ibyaha runaka. Harimo kandi n'ushinzwe umutekano ubarinze kugira ngo hatagira igikorwa kibi bakorera aba bacamanza.

Igikoresho gifite amabara y'umutuku ndetse n'umukara, cyagenewe kuzimya hari inkongi y'umuriro, iki gikoresho cyifashishwa n'abakora ubutabazi bwihuse cyane cyane habaye inkongi z'umuriro kugira ngo bazimye, kikaba kandi ari ngombwa kuri buri nyubako ahahurira abantu benshi kugira ngo kibe cyakwifashishwa mu gihe cy'ubutabazi bwihuse.

Abakozi b'ikigo gishinzwe gutanga ubutabazi bw'ibanze bw'inkongi zumuriro, aho bambaye ibikoresho byabugenewe ndetse bafite ipombo iri kunyuramo umwuka wabugenewe wifashishwa mu gihe uzimya inkingi z'umuriro igihe habaye impanuka nkiyo.

Inyubako nziza ifite amabara y'umukara n'umweru, imbere y'inyubako hakaba hari ubusitani bwiza cyane kandi hashizemo amadapo abiri, hari umwanya kandi wagenewe guparikwamo ibinyabiziga aho haparitse ibinyabiziga bitandukanye.

Abakozi ba polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe gutanga ubutabazi bwihuse, aho bambaye impuzankano ibaranga mu kazi, barimo gutanga ubutabazi mu kuzimya inkongi y'umuriro, bifashishije icyuma cyabugenewe gisohora umwuka uzimya umuriro.

Igikoresho cyabugenewe mu kuzimya inkongi z'umuriro kizwi nka kizimyamwoto, aho iki gikoresho gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara kiba kirimo umwuka wagenewe kuzimya mu gihe habaye inkongi y'umuriro mu bice bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga aho harimo kandi n'abashinzwe inzego z'umutekano aho babagenzura hirya no hino mu gihugu bareba ko nta cyahungabanya umutekano w'abatuye igihugu ndetse bikimakaza amahoro n'umutekano usesuye.

Umukozi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda aho ari mu kazi ke yambaye impuzankano arimo areba niba abakoresha umuhanda barimo kubahiriza amategeko awugenga kugira ngo hirindwe impanuka za hato na hato.

Ibyuma byabugenewe byifashishwa mu kuzimya inkongi z'umuriro, ibi bikaba bitegetswe kuba biri kuri buri nyubako ihuriramo abantu benshi, aho impanuka y'umuriro ishobora gutungurana bikifashishwa, bigizwe n'umwuka wagenewe kuzimya umuriro.

Ikirangantego cy'ihuriro ry'igihugu nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki, aho kigizwe n'ibendera ry'u Rwanda ndetse n'inyuguti zanditse mu magambo y'umukara, mu mpine N.F.P.O ndetse n'akabara k'icyatsi kanditsemo demokarasi mu bwumvikane n'ubwisanzure.

Umukandida Frank Habineza aho yari yitabiriye amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, akaba yari ari mu cyumba cy'itora ashyira urupapuro rwe rw'itora mu gasanduku kabugenewe.

Umugabo ndetse n'umugore bambaye amashati y'umweru, afite ibara ry'icyatsi ku bitugu ndetse ashushanyijeho cyane. Aba bakaba ari abayobozi mu ishyaka riharanira demokarasi n'ibidukikije Girini Pati, aho barimo baganira n'abaturage banifatanya na bo ku munsi mpuzamahanga w'umuganura.

Abayobozi mu nzego zitandukanye za leta bafashe ku ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda, barahirira gukora neza inshingano bahawe imbere y'umukuru w'igihugu kandi bizeza abaturage ibyo bazakora mu nshingano nshyashya bahawe.

Abagabo n'abagore bahuriye mu cyumba cy'inama, bicaye bazengurutse ameza ariho ibitambaro by'umukara, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi, inyuma yabo kandi hari ikirango kinini kiriho ko amatora ari ingenzi kandi agomba gukorwa mu mucyo.

Ikiganiro cyari cyahurije hamwe abaturage bahagarariye abandi, kuva ku rwego rw'akagari kugeza ku rwego rw'umurenge, bahurizwa hamwe aho baganiraga n'intumwa zari zaturutse muri minisiteri ifite uburere ishinzwe uburere mboneragihugu ndetse n'umuco aho baganirizwaga kuri kirazira ndetse n'indangagaciro by'umuco nyarwanda.

Imbaga y'abaturage benshi, bateraniye hamwe, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye umupira w'umweru ndetse azamuye igipfunsi, aba akaba ari abanyamuryango b'ishyaka rya FPR, ubwo bumvaga imigabo n'imigambi y'umukandida wabo, mu matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Umugabo munini cyane wambaye amarinete. Yambaye kandi ikoti ry'umukara ryiza, ishati y'umweru ndetse na karuvati y'umukara. Inyuma ye hari igikuta cy'umweru kandi imbere hateretse indangururamajwi, bigaragare ko ari gutanga igitekerezo mu ntama runaka yitabiriye.

Ikirangantego cya kera cyahoze ari icya Repubulika y'u Rwanda, aho cyari kigizwe n'inuma ihagaze hejuru, harimo kandi isuka ndetse n'umwambi biri mu ibara ry'umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi.

Abagabo babiri ndetse n'umugore umwe bicaye imbere y'ikoraniro ry'abantu benshi, imbere yabo hari indangururamajwi zitandukanye, aho batangaga ibiganiro ndetse n'ibitekerezo bageza ku mbaga y'abari bakurikiye, bamenyesha imwe mu migabo n'imigambi bafite mu gihe biyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Abakozi b'ikigo gishinzwe amatora NEC, ubwo barimo bafungura udusanduku twakusanyirijwemo amajwi hirya no hino mu gihugu, mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane kugira ngo abarurwe hamenyekane uwatsinze amatora.

Kimwe mu birango by'ishyaka rya FPR ni itarapo. Aho rigizwe n'amabara umutuku, umweru ndetse n'ubururu, cyanditsemo inyuguti FPR mu ibara ry'umukara.

Umumama w'inzobe ufite imisatsi yirabura ndetse yambaye n'ikanzu y'umweru, yicaye ku ntebe, akikijwe n'impapuro ndetse n'ibitabo byinshi birambitse ku meza ari imbere ye. Iruhande rwe kandi hari idarapo rigizwe n'amabara y'umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi.

Abamama batandukanye bahuriye mu cyumba cy'inama barimo baganira ndetse banishimye, imbere yabo hari ameza afite iba ry'umweru ateretseho uducupa tw'amazi, amaterefone ndetse n'uducupa tw'imitobe itandukanye.

Inzu mberabyombi yahurijwemo urubyiruko mu nzego zitandukanye kugira ngo baganire n'abayobozi babo ndetse banatanga ibitekerezo n'uruhare rwabo mu kugaragaza uruhare rwabo ndetse n'icyo basabwa, kugira ngo iterambere ry'igihugu rizamuke kandi nabo babigizemo uruhare.

Imodoka nini yifashishwa mu gutwara imizigo itandukanye hirya no hino mu mugii wa Kigali ndetse no mu ntara, aho ifite igisanduku inyuma kiri kugenda cyamamaza bimwe na bimwe mu bicuruzwa bicuruzwa na kompanyi ya Shayini indasiti, ri harimo amavuta, amasabune n'ibindi.

Imodoka nini cyane ifite amabara y'ubururu, umukara ndetse n'umweru, imodoka zifashishwa mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange hirya no hino mu Mujyi wa Kigali, nka kimwe mu bisubizo byo gukemura ibibazo by'ingendo byagaragaraga muri uyu mujyi mu myaka yo hambere.

Rimwe mu masangano y'imihanda ya kaburimbo iri mu mujyi wa Kigali. Aho imihanda ibikoze neza ndetse hari utura twagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru bakoresha umuhanda hari ubusitani bwiza cyane kandi babujejije umuhanda ndetse n'amatara manini amurikira umuhanda mu gihe cya nijoro ibi bikoroshya ingendo.

Imodoka nini ifite ibara ry'umweru ndetse ifite n'igisanduku gikozwe n'ibyuma by'umutuku, yagenewe gutwara imizigo. Iparitse iruhande rw'umuhanda munini wa kaburimbo mu mwanya wagenewe guparikwamo ibinyabiziga nk'uko bigaragazwa n'icyapa kiri ku muhanda. Iruhande kandi hari akayira kagenewe abanyamaguru banyuramo. Ibi bikanoza imikoreshereze myiza y'umuhanda ndetse hirindwa n'impanuka za hato na hato.

Umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo ufite imirongo y'umweruru ndetse n'umuhondo kandi ukaba ufite ubusitani bwiza cyane ndetse n'amatara yo ku muhanda amurika mu gihe cya nijoro, ibi bikongera ubwiza bw'umuhanda ndetse n'ingendo zigakomeza mu gihe cya nijoro nta nkomyi.

Ikimodoka kinini cyane gifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, aho imodoka yagenewe gutwara imizigo itandukanye cyane cyane yambukiranya ibihugu, ibi bikoroshya ubuhahirane hagati y'ibihugu ndetse n'uduce dutandukanye tw'igihugu.

Imodoka nini cyane iri mu mabara y'umweru n'umukara ndetse ishushanyije n'utubara tw'icyatsi, iyi ikaba bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange hirya no hino mu mujyi wa kigali, aho byakemuye ikibazo cy'ingendo aho abantu bashobora kuva ndetse no kujya ku kazi bitabagoye hifashishijwe izi modoka nini zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Ikinyabiziga kigendera ku mapine 3 kizwi nka rifani gifite ibara ry'umukara ndetse cyanditseho magambo y'umweru aho cyifashishwa mu gutwara imizigo yoroheje kijyana hirya no hino mu bice by'umujyi wa kigali ndetse no mu turere dutandukanye aho yifashishwa cyane cyane n'abahinzi n'aborozi mu kugeza umusaruro wabo ku isoko.

Ikimodoka kinini cya rukururana gifite amabara y'umuhondo ndetse na oranje, kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo kibisikana n'ibindi binyabiziga, ikinyabiziga kifashishwa mu gutwara ibicuruzwa cyane cyane bikomoka kuri peteroli, aho kibanda mu bucuruzi bwambukiranya imipaka.

Imodoka nini cyane ifite amabara y'icyatsi ndetse n'umweru, ifite umwanya wagenewe gutwarwamo imizigo, utwikirije shitingi y'umweru. Imodoka ikaba iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo mwiza ukikijwe n'ibiti bizana umuyaga mwiza ndetse bikanakomeza kurimbisha imihanda.

Ikimodoka kinini gifite amabara ry'umweru, kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo. Inyuma yayo hari igisanduku kinini gitwaye peteroli. Izi modoka zifashishwa mu gutwara ibikomoka kuri peteroli hirya no hino, cyane cyane byambukiranya imipaka.

Icyanya cyateganyirijwe guhagararamo imodoka, yaba izitwara abantu mu buryo bwa rusange, cyangwa se izitwara abantu ku giti cyabo, aho usanga zihurira aha ngaha ndetse n'abagenzi bakeneye gutega izi modoka bakazisanga muri iki cyanya zahariwe bityo bikagabanya akavuyo ndetse bikoroshya n'ubuhahiranire.

Umuhanda nyabagendwa wa mapave, uri iruhande rw'undi muhanda wa kaburimbo, aho iyi nzira y'amapave iba yaragenewe abanyamaguru, imihanda kandi ikaba ikikijwe n'amatara manini amurikira umuhanda mu gihe cya nijoro, ibi bikoroshya ingendo ndetse bikanatuma umutekano wo mu muhanda ukomeza kuba ku isonga.

Umuhanda munini wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka, amapikipiki, amagare, iruhande rw'umuhanda kandi hari akanya kagenewe guparikamo ibinyabiziga, haparitse imodoka y'umweru itwara abagenzi mu buryo bwihariye, aho izi modoka zifasha mu koroshya ingendo hirya no hino mu Gihugu.

Imodokadoka iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ifite ibara ry'umweru n'umukara aho irimo kubisikana kandi n'abagenzi bari kunyura iruhande rwa kaburimbo, mu kayira kagenewe abanyamaguru, iruhande rwa kaburimbo kandi hari umuyoboro mugari unyuramo amazi mu gihe cy'imvura, ibi bigafasha mu kurinda umuhanda ko wakangizwa n'ayo mazi y'imvura.

Amagare ni kimwe mu bikoresho byifashishwa n'abaturarwanda b'ingeri zose, mu koroshya serivisi z'ubwikorezi ndetse n'iz'ingendo hirya no hino mu gihugu, aho bifasha cyane cyane abacuruzi bato gutwara ibicuruzwa baranguye ndetse bigafasha n'abahinzi kugeza imisaruro yabo ku isoko. Ibi bikoroshya serivisi z'ubwikorezi ku giciro gito.

Imodoka nini cyane ifite amabara y'umutuku ndetse n'umukara yifashishwa mu gutwara imizigo cyane cyane itwara imizigo' ibijyanye n'ubwubatsi, nk'amabuyeumucanga, ibiti, ibyuma ndetse n'ibindi bikoresho bikenerwa mubwubatsi, iruhande rw'umuhanda kandi hari umuyoboro mugari unyuramo amazi mu gihe cy'imvura ibi bigafasha mu gusigasira umuhanda hirirwa ko hakangirizwa n'ayo mazi y'imvura.

Imodoka nini cyane yo mu bwoko bwa rukururana yifashishwa mu gutwara imizigo cyane cyane yambukiranya igihugu. Izi modoka kabiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo ibisikana n'ibindi binyabiziga, iruhande rw'umuhanda hakaba akayira kagenewe abanyamaguru ndetse n'amatara amurikira umuhanda mu gihe cya nijoro.

Imodoka ifite ibara ry'ubururu, yanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hakurya yayo hari ibyapa bitandukanye ndetse n'ibiti byiza cyane bitoshye. Uyu muhanda kandi uriho amapoto ariho amatara, amurikira umuhanda mu gihe cya nijoro.

Amagare ni kimwe mu bikoresho by'ingenzi bifasha abaturarwanda batuye mu bice byo hirya no hino mu gihugu, cyane cyane ibyo mu cyaro, aho abafasha mu kugeza umusaruro wabo ku isoko cyangwa se kugeza ku mirima yabo, ibikoresho bakeneye ngo bakore ubuhinzi bwabo, ibi bikoroshya akazi kabo ka buri munsi bifashisha aya magare.

Imodoka nini ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, iyi modoka ikaba itwara abantu mu buryo bwa rusange. Aho yoroshya ingendo ndetse n'ubuhahirane, hagati y'uduce tumwe n'utundi. Ibi bikoroshya imitangire ya serivisi ndetse bi bikazamura n'iterambere n'ubuhahirane muduce dutandukanye tw'igihugu.

Imodoka nini cyane ya rukururane igizwe n'amabara y'umweru ndetse n'umukara, ifite igisanduku inyuma, cyagenewe gutwarwamo imizigo. Iyi modoka ikaba yifashishwa mu gutwara imizigo myinshi cyane cyane yambukiranya ibihugu, ibi bikoroshya ubuhahirane ndetse n'ibicuruzwa bikagera ku isoku nta nkomyi.

Imodoka nto iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, yifashishwa mu gutwara imizigo, hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Iruhande rwa kaburimbo kandi hari umuyoboro wagenewe kunyurwamo amazi mu gihe cy'imvura, kugira ngo hirindwe iyangirika ry'umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo, unyurwamo n'ibinyabiziga bijya mu byerekezo bitandukanye, aho hari ibinyabiziga bibiri by'amakamyo biri kubisikana, iruhande rw'uyu muhanda kandi, hari umuyoboro mugari w'amazi, wakenenewe kunyurwa mu mazi mu gihe cy'imvura, ibi bikarinda ko umwanda wakangirika.

Imodoka nini yo mu bwoko bwa fuso yagenewe gutwara imizigo, ifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru. Iyi modoka ikaba yifashishwa mu gutwara imizigo, cyane cyane ibijyanye n'ubwubatsi. Amatafari, imicanga, ibiti ndetse n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi bikenerwa hirya no hino mu gihugu.

Icyanya cyagenewe guparikamo imodoka zitandukanye, yaba izitwara abagenzi mu buryo bwa rusange cyangwa se izibatwara mu buryo bwihariye, aho harimo imodoka nini cyane itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, hirya no hino mu mujyi wa Kigali ,ndetse hakaba n'indi modoka ntoya na yo itwara abagenzi, ifite amabara y'umweru ndetse n'utundi tubara tw'icyatsi tugiye tunyuzemo.

Imodoka nini ifite ibara ry'umweru iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo ibisikana n'ipikipi. Iyi modoka ni iy'ikigo gitanga serivisi z'ubwikorezi cya Selegiti, aho itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ibajyana ndetse inabavana hirya no hino mu bice bitandukanye by'Igihugu, ibi bikoroshya ingendo ndetse n'ubuhahiranire hirya no hino mu gihugu.

Akayira kagenewe abanyamaguru bakoresha umuhanda wa kaburimbo mu gihe cyo kwambuka, aho abayobozi b'ibinyabiziga bitandukanye iyo bahageze baba bategetswe kugabanya umuvuduko kugira ngo abanyamaguru bambuke bikagabanya impanuka za hato na hato mu muhanda.

Imodoka nini cyane iri mu ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umukara, yifashishwa mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange hirya no hino mu mujyi wa Kigali nka bumwe mu buryo bwo gukemura ikibazo cyo muri serivisi z'ingendo, aho abagenzi baburaga ibinyabiziga bibatwara mu gihe cyo hambere.

Urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga, aho biri kunyura mu muhanda wa kaburimbo rwagati ndetse kandi iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari akayira kagenewe abanyamaguru, aho barimo kugenda babisikana, imbere yabo gato kandi hari ahacururizwa ibikomoka kuri peteroli hazwi nka SP.

Inyubako ndende cyane ndetse zifite amabara atandukanye ubusitani bwiza ahacururizwa amakawa, ndetse n'udutebe two kwicaraho ni bimwe mu biranga icyanya cyo mu mujyi wa Kigali cyahariwe kugenda n'amaguruhana ahitwa kafurizone, aho nta kinyabiziga cyemerewe kugendamo ahubwo abantu bose bagenda n'amaguru se bakaba bakifashisha amagare.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, ukaba wegeranye n'undi muhanda ufite ibara ry'icyatsi, wagenewe abanyamaguru barimo gukora siporo, iruhande rwaho kandi hari ubusitani ndetse n'amatara bimurikira imihanda mu gihe cya nijoro, bityo ibikorwa bigakomeza nta nkomyi.

Icyapa cyo ku muhanda wa kaburimbo, gifite umuzenguruko w'umutuku n'ubuso bw'umweru, handitsemo imibare mirongo itandatu mu ibara ry'umukara. Kiyobora abayobozi b'ibinyabiziga kibamenyesha ko umuvuduko ntarengwa mu muhanda bari kugenderamo ari kilometero mirongo itandatu ku isaha.

Icyapa kiri ku muhanda nyabagendwa wa kaburimbo gifite umuzenguruko w'umutuku ndetse n'ubuso bw'umweru, mo hagati hashushanyijemo n'ibara ry'umukara, kiyobora abayobozi b'ibinyabiziga kibamenyesha ko imbere mu muhanda harimo akazamuko.

Icyapa kiri ku muhanda nyabagendwa kaburimbo gifite ubuso bw'ubururu, umuzenguruko w'umweru ndetse n'uturongo tunyuzemo tw'umweru, kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ko imbere mu muhanda hari ihuriro ry'imihanda itandukanye, ibi bikayobora abayobozi b'ibinyabiziga neza birinda impanuka mu muhanda.

Icyapa kiyobora abatwara ibinyabiziga mu muhanda ndetse n'abandi bose bakoresha umuhanda gifite ubuso bw'ibara ry'ubururu cyandikishijemo inyuguti ya P mu ibara ry'umweru ndetse hashushanyije bisi kimenyekanisha ko imbere hari umwanya wagenewe guparikwamo imodoka nini.

Amatara yo ku mihanda yifashishwa n'urwego rushinzwe umutekano, mu muhanda mu kuyobora ibinyabiziga cyane cyane mu Mujyi wa Kigali, ibi bigafasha mu kwirinda impanuka za hato na hato kandi hubahirizwa ikoreshwa ry'umuhanda mu buryo butunganye.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu kinyuzemo agafureshi k'umweru, gifite umusemburuko w'umweru, kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bose bakoresha umuhanda ko ibinyabiziga byemerewe gukomeza kwegera imbere nta kibazo.

Icyapa gishyirwa ku muhanda wa kaburimbo kiri mu ishusho ya mpande eshatu ndetse gifite n'ubuso bw'umweru, harimo uturongo tubiri tw'umukara tunyuranamo kigaragazako imodoka zishobora kubisikana muri uyu muhanda.

Icyapa kiri ku muhanda wa kaburimbo nyabagendwa gifite umuzinnguruko w'ibara ry'umutuku ndetse n'ubuso bw'umweru aho kiyobora abayobozi b'ibinbiziga ndetse n'abandi bose bakoresha umuhanda kibabwira ko imbere gato mumuhanda ari ahantu hamanuka bityo bakabasha kumenya uko batwara ibinyabiziga birinda impanuka za hato na hato mu muhanda.

Ibyapa byo ku muhanda, ni kimwe mu byifashishwa n'abakoresha umuhanda, yaba abayobozi b'ibinyabiziga bitandukanye cgangwa se abanyamaguru mu kumenya amakuru ajyanye n'umuhanda bari kunyuramo cgangwa se ibiri imbere yabo, iki ni icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru ndetse haciyemo akarongo k'umukara, kimenyekanisha ko imbere ku muhanda nyabagendwa hashamikiyeho undi muhanda ujya mu cyerekezo gitandukanye.

Icyapa cyo ku muhanda wa kaburimbo, gifite umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'ubururu, kikaba kinyuzemo akarongo k'umweru mo hagati. Kigaragaza ko ari icyerekezo gitegetswe ku bayobozi b'ibinyabiziga.

Umwe mu mihanda ya Kigali ikoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye mu koroshya ingendo ndetse n'ubuhahiranire, aho uyu muhanda ukikijwe n'ubusitani bwiza cyane ndetse ukaba ufite n'amatara amurikira umuhanda mu gihe cya n’ijoro, ibi bikoroshya ingendo ndetse n'ubuhahiranire igihe cyose nta nkomyi.

Icyapa cyo ku muhanda gifite umuzenguruko w'mutuku gifite ubuso bw'umweru, hashushanyijemo imodoka ebyiri mu ibara ry'umukara hanyujemo akarongo, kigaragaza ko imbere nta muhanda wagenewe ibinyabiziga uhari bityo umuyobozi w'ibinyabiziga akamenya ko atagomba gukomezanyamo ikinyabiziga cye.

Icyapa kinini gifite umuzenguruko w'umutuku ndetse n'ubuso bw'umweru, hashushanyijemo umugabo uri kugenda mu ibara ry'umukara. Iki cyapa kimenyesha abakoresha umuhanda ko imbere gato hari akayira kagenewe abanyamaguru ko kwambukiramo, bityo bakagabanya umuvuduko, hirindwa impanuka zo mu muhanda.

Amatara yo ku muhanda yifashishwa n'abashinzwe umutekano mu kugenzura ndetse no kubahiriza amategeko y'umuhanda, aho akoreshwa yemerera ibinyabiziga bimwe na bimwe kwambuka bijya mu byerekezo bitandukanye ndetse agaha n'umwanya abanyamaguru, ibi bikarinda impanuka zo mu muhanda kandi bigatanga n'icyizere cy'umutekano usesuye ku bakoresha umuhanda bose.

Kimwe mu byapa biba ku muhanda wa kaburimbo biyobora abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bose bakoresha umuhanda kumenya amakuru y'umuhanda barikugendamo. Gifite umuzennguruko w'umukara, gifite ubuso bw'umweru, ndetse kigizwemo akazeru k'umutuku karimo akarongo kaberamye kagaragaza ko imbere nta muhanda wo gukatiramo uhari.

Icyapa kiri ku muhanda wa kaburimbo kiyobora abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bose bakoresha umuhanda ku imbere nta nzira yo gukatiramo ihari, aho kigizwe n'ibara ry'umutuku ndetse n'ubuso bw'ibara ry'umweru hanyuzemo agafureshi gafite ibara ry'umukara.

Kimwe mu byapa byo ku muhanda biyobora abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bose bakoresha umuhanda, gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umuhondo ndetse hashushanyijemo hagati n'ibara ry'umukara, kigaragaza ko imbere gato ku muhanda nyabagendwa hashamikiyeho undi muhanda ukase mu ruhande rw'iburyo.

Amazu meza kandi menshi, yubatse ku murongo, hagendewe ku bipimo ngenderwaho byatanzwe n'abayobozi kandi zubatse ku mudugudu. Ibi bikoroshya kugerwaho na serivisi zose z'ibanze nk'imihanda, amashanyarazi, amazi n'ibindi.

Ibyapa byo ku mihanda ni bimwe mu byifashishwa n'abakoresha imihanda itandukanye y'umujyi wa Kigali ndetse no mu nkengero zawo, mu kumenya icyerekezo ndetse n'agace umuhanda ujyamo. Ibi bikoroshya muri serivise z'ubwikorezi yaba ubw'abantu ndetse n'ubw'ibintu hirya no hino mu gihugu.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'amazu menshi cyane yubatse ku mudugudu akurikije ibipimo byafashwe, aho abaturage baba batuye ku mudugudu bagerwaho n'ibikorwa byose remezo, nk'amazi, amashuri, imihanda, amavuriro ndetse n'ibindi.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu ndende cyane ifite amagorofa abiri, ikikijwe n'ubusitani bwiza cyane n'imiti by'imikindo, iyi nzu ikaba ihereye ku muhanda nyabagendwa, ikindi ikaba igerwa n'ibikorwa byose remezo nk'umuhanda amazi amashanyarazi ndetse n'ibindi.

Inyubako ndende cyane igizwe n'amagorofa menshi, yubakishijwe ibirahure ndetse iteye amarangi y'umweru, hasi yayo hari ubusitani bwiza cyane ndetse n'ibiti bikikije iyi nyubako bizana umwuka mwiza muri iyi nyubako, iyi nyubako ikaba ikorerwamo n'ikigo cy'igihugu gitsura amajyambere RDB.

Inyubako ndende cyane ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye, aho hamanitse ibyapa by'ibigo ndetse n'amasosiyete akorera mu bigo atandukanye, harimo nka Foruza, Sina Gerard ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibi bikorohereza ndetse bikayobora abaza gushaka serivisi kumenya aho bazishakira.

Inyubako nziza cyane yigorofa iteye irangi ry, mweru ndetse inakikijwe n'ubusitani bwiza ifite n'umwanya wa parikingi bwagenewe guparikwamo n'ibinyabiziga biza gusaba serivisi iriho ndetse n'icyapa kinini cyanditse hod restaurant bigaragara ko ariho hatangirwa serivisi za resitaurat.

Inyubako ndende ifite amagorofa menshi, isize amarangi umukara ndetse n'umweru, ikoreramo ikigo cya Infinity hoteri, hatangirwa serivisi zitandukanye nk'iz'amacumbi, ibyumba by'inama ndetse n'ibikorwa bihuriza hamwe abantu benshi, ubwogero rusange ndetse n'izindi.

Inyubako ndende cyane ifite amagorofa abiri, iriho kandi ibyapa bitandukanye byamamaza serivisi zitangirwa muri iyi nyubako, hasi yaho kandi hari umwanya wabugenewe guparikamo ibinyabiziga nk'imodoka ndetse na moto. Ibi bikorohereza abaza gusaba serivisi kugera aho bazisabira, bahagera bifashishije ibinyabiziga bitandukanye.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane kandi zegeranye zigezweho za kijyambere zifite igisenge cy'umutuku. Ndetse n'indi ifite amabara y'umweru n'indi ifite amabara y'ikigina. Izi nzu zikaba zikorerwamo ibikorwa by'iterambere, ndetse bigatanga akazi ku baturage bazegereye.

Inyubako y'igorofa ndende ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru. Ikaba ikorerwamo ubucuruzi butandukanye aho buri muryango umanitseho icyapa kigaragaza serivisi zitangirwamo. Ibi bigafasha ku baza gushaka serivise kumenya aho bazishakira kandi bikanihutisha imitangire ya serivise.

Umwanya wateganyirijwe guparikwamo ibinyabiziga bitandukanye byaba iby'abakozi bakora mu kigo cyangwa se abaje gusaba serivisi muri iki kigo, aho buri mwanya ugabanyijemo n'imirongo y'umuhondo aho ikinyabiziga kiba kigenewe guparikwa, ibi bikoroshya kuba umuntu yabona serivisi ndetse akaba yagira umutekano w'ikinyabiziga cye.

Abana benshi bambaye impuzankano y'ishuri, igizwe n'umupira w'umuhondo ndetse n'ikabutura cyangwa ijipo y'umukara, bari ku byicungo byabugenewe, aho barimo kuruhuka mu masaha yagenewe ikiruhuko. Aba bana kandi bari kumwe n'umwe mu bayobozi babo, baberekera uko bakora ndetse banakoresha ibi byicungo.

Inyubako ndende ifite amagorofa atatu ikaba isize amabara y'icyatsi ndetse n'umweru, iyi nyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye; aho kandi yegereye umuhanda wa kaburimbo bityo bikorohera abakorera muri iyi nyubako koroshya ingendo ndetse n'ubuhahiranire.

Inyubako ndende cyane ifite amagorofa menshi, yubakishijwe ibirahuri ndetse n'inkuta zisize irange ry'umuhondo, hasi yayo kandi hari ubusitani bwiza buyikikije, iyi nyubako ikaba ikorerwamo n'imwe muri hoteli za hano mu Rwanda, aho itanga serivise ku bantu bakeneye ibyumba binini bihuriza hamwe abantu benshi, aho gucumbika, aho gufatira amafunguro n'izindi zitandukanye.

Inyubako ndende cyane ifite amagorofa menshi yubakishije ibirahuri ndetseparitseho n'ibyapa byamamaza serivisi zikorerwa muri nyubako zitandukanye imbere yayo hari inyubako itanga serivisi zo gutangacanwa ndetse n'ibikomoka kuri peteroli ya ruubis aho kandi hasi haparitse imodoka zitandukanye z'abakiriya bashe kugura bimwe mu bikoresho bicuruzwa n'iyi kompanyi.

Inyubako ndende cyane ifite amagorofa menshi atangirwamo serivisi zitandukanye, bigaragazwa n'ibyapa bigiye bimanitse imbere ya buri muryango, harimo nk'ikigo gitanga serivisi z'ivunjisha ku isoko mvunjafaranga cya yunivaso foregisi biro.

Inyubako ndende igizwe n'amagorofa menshi asize ibara ry'umweru ndetse n'umukara, ifite kandi uruzitiro rw'ibyuma rusize amabara y'umukara, aho inyubako iherereye ku muhanda bityo abashaka serivisi muri iyi nyubako bikaborohera, mu gihe bajya cyangwa bava kuri iyi nyubako.

Amatara yo ku muhanda yifashishwa mu kuyobora ibinyabiziga agaragara hirya no hino mu gihugu cyane cyane mu mugi wa Kigali, aho buri tara riba rifite icyo ribwira abayobozi b'ibinyabiziga, ibi bikagabanya impanuka zo mu muhanda ndetse bikanimakaza imikoreshereze myiza y'umuhanda.

Umwe mu mihanda ya kaburimbo myiza cyane ikorerwamo ingendo zitandukanye hifashishijwe ibinyabiziga nka moto, amagare, amapikipiki, imodoka ndetse n'ibindi. Aho kandi mu ntangero z'uyu muhanda hateye ibiti byiza cyane bizana umwuka mwiza wo guhumeka ndetse bigakomeza no kurimbisha imihanda.

Umwe mu mihanda ya kaburimbo igaragara mu Mujyi wa Kigali, aho ikoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abanyamaguru mu koroshya ndetse no kunoza serivisi y'ingendo. Kuri imihanda kandi hari ubusitani bwiza burimbisha iyi mihanda bwongera ubwiza bwayo, hari kandi n'amatara amurikira imihanda mu gihe cya nijoro, bityo ingendo zigakomeza nta nkomyi.

Ihuriro ry'umuhanda wa kaburimbo, rinyuramo ibinyabiziga bitandukanye, aho byifashishwa mu koroshya ingendo ndetse n'ubuhahirane, iruhande rw'iyi mihanda kandi hakikijwe ubusitani bwiza, bwongera ubwiza ndetse bukanarimbisha uyu muhanda, hari kandi n'amatara yagenewe kumurika umuhanda mu gihe cya nijoro, bityo ingendo zigakomeza nta nkomyi.

Umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo, ushushanyijemo imirongo itandukanye iwugabanyamo ibice bitandukanye, aho ibinyabiziga biba byemerewe kunyura mu gice runaka bitewe n'ibyerekezo biri kujyamo. Hagati kandi hakaba harimo ubusitani bwiza, bunanyuzeho amafoto ariho amatara amurikira umuhanda mu gihe cya nijororo, ibi bikoroshya ingendo amasaha yose nta nkomyi.

Akayira kashyiriweho abanyamaguru bakoresha umuhanda wa kaburimbo mu gihe bambuka, bityo abayobozi b'ibinyabiziga iyo bageze kutu tuyira baba bategetse kugabanya umuvuduko, kugira ngo abanyamaguru babashe kwambuka umuhanda nta nkomyi ndetse bikagabanya impanuka zo mu muhanda.

Umuhanda munini wa kaburimbo ukikijwe n'ubusitani bwiza cyane ndetse n'amatara amurikiye uyu muhanda mu gihe cya nijoro, bigaragara ko serivisi zo gutwara abantu n'ibintu zikomeza mu gihe cya nijoro nta nkomyi kubera ko umuhanda uba umurikiwe.

Umuhanda munini wa kaburimbo uherereye mu mujyi wa Kigali uri kunyumo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, iruhande rw'umuhanda kandi hari ubusitani bwinshi bukikije umuhanda ibi bikarimbisha umuhanda, hari kandi amatara amurika mu gihe cya nijoro kugira ngo ingendo zikomeze nta nkomyi.

Umuhanda munini wa kaburimbo uri kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye, iruhande rwawo hari umwanya wagenewe guparikamo ibinyabiziga ndetse hari n'akazu kagenewe abanyamaguru aho bategerereza imodoka, aha kandi haparitse imodoka ntoya yo mu bwoko bwa karina.

Ihuriro ry'imihanda ibiri ya kaburimbo ijya mu byerekezo bitandukanye, aho iyi mihanda ikikijwe n'ibiti binini by'inganzamarumbo biri mu ibara ry'icyatsi, ibi bikaba bizana umuyaga ndetse n'umwuka mwiza duhumeka, kandi bikarimbisha n'umuhanda.

Umuhanda munini wa kaburimbo uri kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka ndetse n'amagare bibisikana. Iruhande rw'uyu muhanda, hari akayira kagenewe abanyamaguru, hari kandi n'ubusitani bwiza cyane burimo ibiti birebire. Ibi byose bikomeza kurimbisha umuhanda ndetse bigatuma Umujyi ukomeza gusa neza.

Umwe mu masangano y'imihanda ya kaburimbo mujyi wa Kigali, aho imihanda iva ndetse ijya mu byerekezo bitandukanye ihurira. Hari ubusitani bwiza bukikije imihanda. Ibi bikongera ubwiza bw'umujyi. Hari kandi n'ibirango bitandukanye biyobora abakoresha umuhanda kugira ngo hirindwe impanuka.

Ihuriro ry'imihanda ya kaburimbo iri kunyurwamo n' ibinyabiziga bitandukanye, iruhande rw'uyi mihanda hari ibyapa byamamaza by'ibigo bitandukanye, aho bamenyesha abakiriya babo ibikoresho ndetse n'ibicuruzwa babifite muri ibi bigo. Iyi mihanda kandi ikikijwe n'ubusitani bwiza bwo kongera ubwiza bw'imihanda ndetse no kurimba ku mujyi.

Ihuriro ry'imihanda ya kaburimbo iri mu mujyi wa Kigali, aho iyi mihanda inyuramo ibinyabiziga bitandukanye yaba moto, amagare, imodoka ndetse n'ibindi, iyi mihanda ikikijwe n'ubusitani bwiza cyane, ibi bigakomeza kurimbisha umujyi. Hari kandi amapoto azengurutse ku mihanda, amurikira imihanda mu gihe cya nijoro, ibi bikoroshya ingendo mu mutekano usesuye.

Umwe mu mihanda ya Kigali irimo urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga, aho iruhande rw'imihanda hari amapoto ariho amatara acanira umuhanda mu gihe cya nijoro bityo bikoroshya ingendo nta nkomyi, ni umutekano usesuye.

Rimwe mu masangano y'imihanda mu mujyi wa Kigali akoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye. Aho hagati y'imihanda hari ubusitani bwiza burimbisha umujyi, hari kandi n'amatara amurikira umuhanda mu gihe cya nijoro, ibi bikoroshya ingenda ndetse n'ubuhahiranire igihe cyose nta nkomyi.

Rimwe mu masangano y'imihanda ya kaburimbo iri hirya no hino mu mujyi wa Kigali, aho hari mo ruujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwaye abantu bajya ndetse banava mu mirimo yabo itandukanye, iyi mihanda kandi ikaba iriho amatara ayimukira mu gihe cya nijoro, ibi bikoroshya ingendo igihe cyose.

Rimwe mu masangano y'imihanda ya kaburimbo, aho ibinyabiziga biba bijya ndetse binava mu byerekezo bitandukanye, hagati hari ubusitani bwiza cyane burimbisha uyu muhanda, hari kandi n'amatara amurikira umuhanda mu gihe cya nijoro bityo ingendo zigakomeza mu mutekano usesuye.

Umuhanda mugari wa kaburimbo nyabagendwa, ukikijwe n'ubusitani bwiza cyane ndetse n'ibiti by'imikindo. Hariho kandi amapoto ariho amatara amurikira umuhanda mu gihe cya nijoro, ibi bikoroshya serivisi z'ingendo hirya no hino mu gihugu, yewe no mu masaha ya nijoro nta nkomyi.